Umugabo usa nabi, wicaye wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umukara, akaba afite ishashi irimo amazi, akaba abana n'ubumuga bwo mu mutwe.

Inzu y'ivuriro yanditseho amagambo yanditswe mu kinyarwanda, ikigo nderabuzima cya Shagasha gifite inkuta zijya gusa umweru n'amadirishya y'umukara, gifite amabati y'ubururu, imbere y'iyo nzu hicaye umugore n'umugabo bari kumwe n'abana babiri bambaye imyenda igiye itandukanye.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara isutse, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye agasengeri k'ubururu na kola y'ubururu.

Abagabo bambaye imipira isa icyatsi, hakaba harimo n'umugore wambaye umupira usa icyatsi, bakaba bahagaze mu murima uhingwamo icyatsi kifashishwa mu buvuzi gakondo ari cyo cyitwa igikakarubamba.